Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza y'umutuku ateretseho udukoresho tw'irangururamajwi bari kureba imbere yabo.

Abantu benshi bahagaze bari mu nzu mberabyombi, imbere yabo hari ameza akikijweho ibitambaro biri mu ibara ry'umuhondo ndetse kuri ayo meza hateretseho amacupa y'amazi.

Abantu benshi cyane bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru, imbere yabo kandi hari umukobwa uhagaze uteruye mu ntoki indangururamajwi arimo arayivugiramo abareba.

Umumama uhagaze wambaye umwenda urimo umweru n'umukara, uteruye mu ntoki ze indangururamajwi urimo aravuga inyuma ye hari...

Umugabo uhagaze ufatanyije amaboko, uri kureba imbere ye, inyuma ye hari icyapa gishushanyijeho idarapo ry'u Rwanda, munsi handitseho....

Umugore uhagaze wambaye hejuru umuhondo, uteruye mu kiganza indangururamajwi, uhagaze imbere y'abantu bicaye benshi.

Inzu y'uruganiriro yubatwe n'amatafari harimo ameza asa umutuku, intebe zumukara Ku meza hateretseho amzi akorerwa m'uruganga rw'inyange aba mw'icupa ry'umweru n'umufuniko w'ubururu, abantu bicaye ku ntebe b'abagabo bambaye amakositime y'ambara atandukanye.

Umugabo wicaye ureba imbere ye wazamuye ikiganza ndetse n'ukuboko, imbere ye hateretse amacupa y'amazi atatu akorerwa mu ruganda rw'inyange.

Umugabo uhagaze wambaye umweru hejuru, hasi wambaye umukara, mu kiganza kimwe afite indangururamajwi ari kuvugiramo, ikindi kiganza kirimo kirerekana ibimenyetso by'ibyo arimo aravuga.

Abantu benshi bicaye hasi mu byatsi bisa icyatsi, imbere hahagaze abagabo babiri n'abagore babiri bambaye ibitenge.

Abantu benshi bicaye munsi y'ihema risa umweru, rikikijweho n'ibitambaro bikora idarapo ry'u Rwanda, riri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umweru hejuru ,hasi bambaye amabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umutuku n'umuhondo, imbere yabo hari abantu batatu abagabo babiri n'umugore umwe bicaye imbere yabo ku ntebe zisa.

Abantu benshi bicaye bakoze ikiziga bicaye ku ntebe z'umutuku zifitemo n'ibara ry'umuhondo n'izindi zifite ibara ry'umukara gifite mu n'ibara ry'umuhondo, bari imbere yabo ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Abantu benshi bicaye bareba imbere yabo, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hahagaze umuntu uteruye indangururamajwi, uzamuye uku...

Abantu benshi bicaye ku ntebe bari kwandika bafite amakayi n'amakaramu, harimo abagabo ndetse n'abagore n'abakobwa.

Abantu benshi bicaye bazengurutse ameza ku ntebe z'umukara imbere yabo hateretse murandasi ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange.

abantu benshi babagabo bambaye imyenda y'imikara nabambaye iy'umweru bari mu cyumba cy'uruganiriro, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro gisa umweru hateretseho icupa ry'umweru ry'Inyange ry'amazi.

Umugore wicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza bari kureba imbere yabo ameza ateretseho amacupa y'amazi yanditseho inya...

Abantu benshi bicaye munsi y'amahema harimo abagore n'abagabo imbere hahagaze abagore batatu bateruye igipapuro cy'umweru bose bagihuriye...

Abantu benshi cyane bari kureba imbere yabo, harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zifite igitambaro gisa umweru, imbere yaho hateretse ameza ariho impapuro z'umweru n'amacupa y'amazi ava mu ruganda rw'Inyange.

Umumama uhagaze imbere wambaye imyenda hejuru yambaye umuhondo, mu ntoki ze afite igikoresho cy'indangurura majwi ameze nkaho arimo arasobanurira abantu kuko yazamuye amaboko, imbere ye hicaye abantu benshi batandukanye abagore, abagabo ndetse n'abasore.

Umugore uhagaze uri kureba imbere ye yateruye indangururamajwi, ari kuyivugiramo akandi kaboko gateruye telefone...

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, ateretseho impapuro ateretseho amacupa y'amazi yanditseho.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo bahagaze, bateruye igipapuro cy'umweru kinini cyandikishijweho amagambo y'umukara.

Umugore uhagaze ufite indangururamajwi mu kiganza, uri kuyivugiraho, abandi bicaye ku ntebe z'umukara, ameza ariho igitambaro cy'umuhondo.

Bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari indangurura majwi hateretse amacupa y'amazi yanditseho inyange hari.

Abantu benshi bicaye bazengurutse ameza ariho igitambaro cy'umukara uteretseho impapuro nyinshi z'umweru ndetse n'amacupa y'amazi aturuka mu ruganda rw'inyange.

Abantu benshi bicaye harimo abagore, abagabo bari kureba imbere yabo, imbere yabo hateretse ameza ariho igitambaro cy'umukara.

Abantu benshi cyane bari mu nama bicaye mu nzu y'uruganiriro ku ntebe zisa umukara, ameza abari imbere ateretseho uducupa tw'amazi akomoka mu ruganda rw'inyange.

Abantu bicaye ku ntebe umwe uhagaze imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru hateretseho ku meza amacupa y'amazi.

Abantu benshi abakobwa, abasore ndetse n'abagabo bahagaze ahantu hasa ubururu, inyuma yabo hari amarido y'umweru, hakaba hari icyapa gifite amabara.

Abantu benshi bicaye ku ntebe bakoze ururuzeru barebana, bareba imbere yabo ku meza abari imbere ateretseho ibitabo ndetse n'amacupa y'amazi.

Umugabo uhagaze uteruye indangururamajwi mu ntoki, uri kuyivugiramo, hirya ye hari undi mugabo nawe we ufite indangururamajwi uri kumwitegereza.

Abagabo bicaye ku ntebe impande zabo hagiye hariho utumeza duto duteretseho ibirahure birimo amazi, umwe muri bo uteruye indangururamajwi urimo aravuga.

Abantu benshi bicaye ku ntebe ziriho ibitambaro by'umweru imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru kandi imbere yaho hahagaze umugabo hejuru wambaye umweru urimo aravuga.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara harimo abagabo babiri ndetse nabagore harimo imbere yabo ameza ateretseho uducupa twamazi akorerwa mu ruganda rw'inyange.

Abantu benshi cyane bicaye hamwe harimo abagabo n'abagore baje mu nama, bari kureba imbere yabo bambaye ndetse n'ibibaranga bikoreshejemo imigozi y'icyatsi kibisi hakaba hasi hari amakarita abaranga.

Abagabo bane harimo umwe w'umuzungu wicaye ku ntebe zifite amabara y'umuhondo imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi y'inya........

Abantu benshi bicaye bakoze ikiziga, bicaye ku ntebe z'umukara, mbere yabo hari ameza abajijwe mu mbaho, hariho hateretseho indangururamajwi ziri kubarebaho, ndetse hateretse n'amacupa y'amazi.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zibajijwe mu mbaho, imbere hari ameza ariho igitambaro cy'umuhondo, hagati yabo hahagaze umugabo urimo...

Abantu bari munzu y'uruganiro, benshi batandukanye abagabo n'abagore. Imbere hicaye abagabo, ku ntebe ya kabiri hicaye abagore bari gukurikira imbere yabo.

Abantu benshi bicaye munsi y'ihema ry'umweru, ririho ibitambaro bisa umweru n'icyatsi kibisi, abo bantu bambaye imipira isa oranje, bicaye bareba imbere yabo ku ntebe zisa umweru.

Abantu bari mu nzu y'uruganiriro ari benshi cyane, ari abagore ndetse imbere yabo hagaze umugabo ufite indangururamajwi wambaye ishati y'umweru.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza akikijwe nigitambaro cy'umweru ateretse amacupa y'amazi ava mu ruganda rw'inyange.

Abantu bicaye mu nzu y'uruganiriro bose hamwe ni abagabo bicaye ku ntebe z'umukara, bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga biteretse ku meza asa umutuku hasi yaho hasa umukara.

Abantu babiri bahagaze, umukobwa ndetse n'umumama usa n'ukuze, abandi bicaye ku ntebe bazengurutse ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza abajijwe mu mbaho, ateretseho amacupa y'amazi yanditseho inyange.

Inzu y'uruganiriro irimo abagabo bagera kuri bane bose bakurikiye, imbere yabo bafite ibitekerezo byinshi, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza asa umutuku hateretseho amacupa y'amazi akomoka mu ruganda rw'inyange.

Abantu benshi bambaye imipira isa y'ubururu bicaye ku ntebe zikikijwe n'ibitambaro by'umweru, imbere yabo hari amacupa y'amazi ava mu ruganda rw'inyange, hagati yabo hahagaze umugabo ufite indangurura majwi uri kureba inyuma.

Umugabo uhagaze ku butaka, imbere ye hari inzu isize amarangi, hariho ibyapa bisa ubururu ndetse n'imiryango y'iyo nzu isa.

Inzu isize amarangi y'umweru, ifite amadirishya n'umuryango bisa umweru, kandi umuryango ufunguye. Inzu yubakishije hasi amakaro.

Umugabo w'igikara uhagaze mu iduka ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo terefone zigendanwa ndetse n'ibikoresho birinda ibyo bikoresho bigendanwa by'ikoranabuhanga.

Abantu benshi bagera kuri batanu, bicaye baganira, imbere yabo hateretse mudasobwa ku meza ndetse bari,...

Umunara muremure ukozwe mu byuma, ufite amarangi asa umutuku, ndetse n'umweru, ku ruhande hari urutsinga rw'umukara ruri kwaka.

Umunara muremure cyane w'ibyuma uri imbere y'inzu ifite amarangi y'umweru, yanduyemo ukuntu, ufite amabati y'ibyuma.

Umunara muremure ukozwe n'ibyuma, usize amabara y'umutuku n'umweru, uzengurutsweho n'utwuma dusa umweru tureture duhagaze.

Umugore wicaye ku ntebe yumukara hejuru yambaye umuhondo ukikijwe n'amadarapo abiri y'ibihugu bitandukanye amwe ari mu ibara ry'ubururu, umuhondo nicyatsi irindi riri mu ibara ry'umweru

Umunara muremure cyane ukozwe n'ibyuma, ufite amarangi ari mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, mu mpande yaho yagiye hariho...

Umugabo uri guseka wambaye umupira w'ubururu, uri gukoresha akaboko ke yerekana ibiri muri terefone igendanwa ye, kwerekana.

Umugabo wicaye ku ntebe wambaye ikoti ry'ubururu uri kureba imbere ye hateretse ameza ariho mudasobwa ari kuyikoresha.

Umusore wambaye ingofero ndetse wambaye n'indorerwamo z'amaso uri kureba imbere ye mu gikoresho k'ikoranabuhanga arimo aragikoresha yandika n'ibiganza byiwe akanda.

Umunara muremure cyane wubakishijwe ibyuma, ufite amabara atandukanye umweru, ndetse n'umutuku, ukaba ufite uruzitiro rukozwe...

Urupapuro rusa ubururu rwanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse hari n'ari mu'ibara ry' umuhondo. Dore uko wamenyekanisha umusoro ku nyungu ukoresheje telefoni ; bikorwa n'abasorera ibinyabiziga n'abafite ubucuruzi buto buciriritse.

Abantu benshi bagiye bicaye mu matsinda, bazengurutse ameza, mu matsinda agera kuri ane bari kuganira hasi.

Umunara muremure ukozwe n'ibyuma byinshi bigiye bifasheho mu buryo butandukanye buri mu mabara y'umutuku n'umweru kandi ufite.

Igipangu gisa icyatsi kijimye, imbere harimo imiryango isa umweru, hasi hubakishijwe amakaro handitseho ko ari inzu y'ikoranabuhanga.

Bicaye imbere yabo hari ameza y'umukara iteretseho mudasobwa bicaye ku ntebe z'umukara hariho umusore, hari umukobwa, hari.

Ikiganiro cya tereviziyo y'u Rwanda, itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro w'ipatanti y'igihembwe cya nyuma, ni itariki ya mirongo itatu n'imwe Kamena, umwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Umuntu w'umugabo muremure uhagaze mumuryango usa nusohoka wambaye ingofero wegamiye urugi rusa kake rukozwe mu mbaho.

Amagambo yanditse mu ibara risa ubururu bwijimye, amagambo yandikishijwe mu kibara ry'icyatsi kibisi, gushimira abasora ku nshuro ya makumyabiri na rimwe, ukwezi ko gushimira abasora mu mwaka w ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Inzu isize amarange y'umuhondo imiryango yayo isize amarange asa icyatsi kibisi ndetse hakaba n'imiryango isize amarange asa umuhondo, hejuru hariho icyapa gisa ubururu n'umweru cyandikishijweho amagambo asa umweru ndetse nasa umukara handitseho Irembo.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ari mu bururu andi ari mu mukara, minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo; itangazo nk'iminsi y'ikiruhuko rusange.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe ku murongo, harimo abafite ibikoresho bya mudasobwa abandi bari gukoresha telefoni zigendanwa.

Ibyatsi byumye bisa umweru byegeranye n'ibyatsi bisa icyatsi kibisi, iruhande rwabyo hari umunara muremure cyane ukozwe n'ibyuma, uzengurukijweho ibyuma bisa umweru.

Inzu ifite imiryango iriho ibyapa byinshi cyane ndetse no hejuru hariho ibyapa bishushanyije byinshi cyane, biri mu mabara atandukanye asa ubururu handitseho amagambo y'umweru bisa umweru...

Urupapuro rusa ubururu rwandikishijeho amagambo asa umuhondo, yanditse agira ati: "komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba Leta, inama nyungurabitekerezo y'inzego zo mu butegetsi bwite bwa leta".

Ishusho iriho ibiziga byinshi biri mu mabara atandukanye: asa icyatsi kibisi, asa ubururu, asa umutuku, asa oranje, agiye agaragaza ibice bitatu.

Kurikira ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro, itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu.

Indabo zisa icyatsi kibisi, umunara w'ibyuma uteretseho batiri. Iruhande hari ibiti n'ishyamba.

Inzu ndende y'umweru ifite amadirishya y'ibirahure, ifite urukuta rw'umweru, imbere hari ipoto rirerire rifiteho insinga zifatiyeho ndetse kandi ikaba ifite n'itara.

Uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, iruhande hari ibiti byinshi by'icyatsi kibisi, hejuru hari ipoto ifite insinga ndende cyane.

Umunara muremure ukozwe mu cyuma ugiye ucamo insinga zisa umukara ziwambukiranya zikomeza mu zindi mpande, ibicu bisa umweru ikirere gisa ubururu.

Umunara muremure, uzirikishijweho insinga z'umukara zimwe zigenda iburyo izindi zijya ibumoso, igikuta gisa kacye...

Umuhanda w'umukara urimo ibisate bibiri mu ruhande harimo n'inzira y'abanyamaguru ndetse ku rundi ruhande hahagaze imodoka ebyiri.

Umuhanda w'umukara, iruhande rwawo hari ubusitani bugiye burimo indabyo zisa icyatsi kibisi, imbere yaho hari uruzitiro rw'inzu rwubakishijwe

Ipoto rirerire rikozwe mu giti, rifiteho insinga nyinshi zigiye zitandukanye, kuri iryo poto kandi hahagazeho umukobwa wambaye impuzankano zisa ubururu.

Ipoto rirerire riteganye n'itara ryo ku muhanda hariho insinga zumukara zihererekanya n'andi mapoto, impande hari ubusitani burimo indabyo zisa icyatsi, hirya hari ibiti birebire.

Ubutaka, amashashi asa umweru arimo itaka ateyemo ibiti bisa icyatsi bifite amababi menshi, ibiti byinshi bikikije aya mashahi y'umweru.

Iminara ibiri iteganye ikozwe mu byuma, iri guhererekanya itsinga z'umukara hafi yaho hari ibicu by'umweru mu kirere gisa ubururu.

Ipoto ry'igiti ririho insinga nyinshi zisa umukara n'izisa umweru, imbere yaryo haparitse imodoka zitandukanye, izisa umweru, isa umukara n'indi iri mu mabara y'umutuku.

Uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye kandi ruriho irangi ry'umuhondo n'utwuma duhagaze n'udutambitse, hasi y'uruzitiro hasa umukara hari amabati afatanye n'amatara.

Umugore wicaye ushyize amaboko ku meza imbere ye hari mudasobwa ari kuyirebamo yambaye indorerwamo z'amaso..

Inzu ifite amarangi asa umuhondo ndetse ikaba ifite amadirishya asize irangi ry'umweru ikaba nk'imbere igaragaza ahabikwa imiti hari imiti y'amavuta, imiti y'ibinini.

Umuhanda w'igitaka, imbere hari icyapa kigaragaza ibitaro bya Kabgayi byanditse mu magambo y'umweru ku cyapa gisa ubururu.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara, wambaye umwambaro wo hejuru w'umukara, ku kaboko kamwe yawuzamuye, imbere ye hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru uri kumufatira kuri ka kaboko.

Umuntu wicaye ku ntebe y'umukara, iruhande rwe hahagaze umuganga w'umugabo uje kumusuzuma amufashe ku kaboko akamureba.

Imodoka zihagaze ziri mu mabara atandukanye, iruhande rwazo hicaye umugore uri kuzireba wambaye imyenda y'ibitenge.

Imodoka ziparitse umuntu uri kugenda ahantu ku butaka hari amazi, umuntu w'undi wambaye impuzankano zigaragaza abashinzwe umutekano, inzu y'amatafari ya rukarakara afite amadirishya n'ibirahure.

Inzu imbere yayo hari ubusitani burimo ibyatsi hakaba hateyemo nibiti bitari birebire cyane ha akaba.

Ubusitani burebure busa icyatsi ku mpande zabwo hateye indabyo z'umutuku n'izisa icyatsi kibisi imvugo, muri ubwo ubusitani harimo aho bashyira amazi y'imvura yaguye.

Umuhanda w'umukara utandukanyijwemo n'ahari ibyatsi, hakurya hakaba undi muhanda w'umukara, hirya y'uwo muhanda w'umukara hakaba haparitse amamodoka atandukanye, asa umweru n'asa n'icyatsi kibisi, hakaba hari n'utwara ipikipiki wahahagaze.

Ahantu harinzwe cyane n'abantu bashinzwe umutekano w'agace, bambaye imyenda isa, hejuru bambaye umweru, hasi bambaye...

Umugore wambaye imyenda y'imfungwa, wambaye n'indorerwamo z'amaso, wambaye amapingu ku ntoki, aherekejwe n'uwambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano, amutwaye amwerekeje imbere.

Umugabo wambaye imyenda isa iroza wambaye n'agapfukamunwa uteruye igitabo uziritse amaboko, umugabo wambaye impuzankano z'umutekano wambaye agapfukamunwa gasa kake ari kureba ku ruhande.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda y'impuzankano zimfungwa; bambaye isa iroza ndetse bambaye n'udupfukamunwa, bamwe bateruye ibitabo bisa ubururu.

Abantu benshi bicaye hasi mu byatsi bazengurutswe n'ibiti inyuma yabo bisa icyatsi birebire, imbere mo hagati hahagaze umugabo ureba aho abantu bicaye ku ntebe bagera kuri

Abantu benshi bicaye ku ntebe ndetse abandi bahagaze, abicaye ku ntebe bambaye imyenda y'imfungwa.

Umugabo w'igikara, ufite umusatsi muke cyane, uri kureba imbere yiwe, ufunze umunwa, wambaye ishati y'ubururu, hejuru yaho hariho umwambaro w'umutuku udafite...

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'umukara; bambaye amakanzu y'umukara, imbere yabo hariho umweru, abagore babiri n'umugabo umwe, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro z'umweru nyinshi.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'indangururamajwi umwe wambaye imyenda y'imfungwa isa iroza yambaye agapfukamunwa k'ubururu gafatira ku matwi undi yambaye imyenda y'abakora mu rukiko usa naho amuburanira.

Abantu bicaye ku ntebe, hari izisa umweru hari n'izisa icyatsi kibisi, imbere yabo hahagaze umugore wambaye ikanzu ndende y'umukara imbere hariho umweru ufite impapuro nyinshi mu ntoki z'umweru.

Abantu benshi bari kugenda bafite ibikoresho bitandukanye abafite ibitiyo, bafite ingorofani bateruye amasahani bambaye imyenda isa orange hasi no hejuru.

Igikuta cy'umweru intebe zisa kake abantu bicaye ku ntebe bateruye ibitabo abandi bari kwandika mu bitabo ku ntebe ziriho amacupa y'imitobe ndetse n'ay'amazi.

Abantu bicaye imbere y'amadarapo y'Igihugu cy'u Rwanda menshi abari imbere, abandi bicaye bayareba, bambaye amakanzu maremare y'umukara bicaye ku ntebe z'umutuku.

Umuntu wambaye imyenda ndetse n'ubwirinzi ushinzwe kuzimya ahantu hatse umuriro uri gukoresha icyuma kizimya umuriro gisohora ibintu bisa umweru uhetse kizimya moto.

Igikapu cy'umweru kiriho n'amabara y'umutuku, iruhande rwaho hateretse icupa ry' umwuka . Iruhande rwaho kandi hahagaze abantu barimo baratambuka harimo abagore n'abagabo.

Umuhanda w'umukara urimo uragenderwamo n'ipikipiki itwawe nu'ushinzwe umutekano wo mumuhanda, iruhande rw'umuhanda, hahagaze imodoka isa ubururu.

Abanyeshuri benshi bicaye abandi bari kurebera mu madirishya; imbere ya bo hahagaze umugabo wambaye impuzankano z'abashinzwe kuzimya ahafashwe n'inkongi.

Umugabo uri mumodoka, ari kureba hanze y'ikirahure, umugabo wambaye impuzankano, zabashinzwe umutekano zanditseho Rwanda wunamye.

Ahantu hahiye hari gucumba umwotsi mwinshi n'umuriro ugurumana, abantu babiri bambaye impuzankano z'abashinzwe kuzimya umuriro bafite ikintu.

Umugabo uhagaze mu muhanda w'umukara wambaye imyenda y'impuzankano, zishinzwe umutekano wo mu muhanda, urimo arayobora ibinyabiziga biri kuwugenderamo.

Abantu benshi imbere hari abantu batandatu bicaye ku ntebe, inyuma yabo hahagaze abambaye imipira y'umweru n'ubururu bateruye ibipapuro by'umweru mu ntoki.

umugore wicaye mu ntebe y'umweru wambaye umukara, wambaye imbonera z'amaso, uteruye ikayi ku bibero ndetse na bike imbere ye hari indangururamajwi.

Abantu benshi bahagaze harimo abagore n'abagabo bari gukoma mu mashyi harimo ndetse n'umugore uteruye igikapu mu ntoki.

Umugore wicaye ku ntebe isa umweru, yambaye ikanzu ari kureba imbere ye yambaye ibirahure byo kureberamo yifashe neza.

Abagore benshi cyane bari ahantu hamwe bari gufata ifoto bambaye imyenda nyarwanda bita imikenyero, inyuma yabo hari ibiti birebire by'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bahagaze ndetse n'abicaye munsi y'amahema, afite amarangi y'umweru umutuku, n'ubururu, bazamuye ibiganza.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hari ameza akozwe mu mbaho, mu ibara ry'umuhondo imbere yabo hateretse amacupa y'amazi yanditseho inyange.

Abantu benshi cyane bicaye mu nzu y'uruganiriro bakoze ikiziga bareba imbere yabo bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa n'amacupa y'amazi yanditseho inyange.

Abantu benshi cyane, bavuye imihanda yose, bambaye ingofero z'umweru, bafite ibyapa byanditseho umurenge wa Karambo, akagari ka Karambo, tora Kagame umuturage ahore ku isonga.

Umugabo wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara, amalinete ari kreba hasi, atambuka agenda imbere, amaboko yiwe ahinnye, igikuta gisa ubururu aho akandagiye hasa umukara.

Abagabo babiri bari guseka, umwe wambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano w'Igihugu undi wambaye imyenda.

Idarapo ry'u Rwanda, umuyobozi uhagarariye igihugu cy'u Rwanda, yicaye afite impapuro ndetse n'ikaramu mu ntoki impande ye hahagaze umugore we wambaye umukara.

Abagabo benshi bambaye impuzankano z'umukara zigaragaza ko bashinzwe umutekano, impande yabo hari umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda wambaye umupira w'umweru hasi ipantaro y'umukara ndetse n'ingofero y'umukara azamuye ikiganza asuhuza abaje.

Umugabo wicaye ku ntebe ifite amapine, wambaye imyenda isa ubururu hasi no hejuru harimo n'ibara ry'umweru, ushaje ufite umusatsi w'umweru ufite agapapuro mu ntoki agiye gushyira...

Umugore n'umugabo bunamye, buri wese imbere ye hari agasanduku kahateretse, imbere y'umugore hari agasa umweru, imbere y'umugabo hari agafite umufuniko w'umukara ahandi hakaba hasa umweru.

Umugabo uhagaze uri mu modoka yasohoye umutwe ndetse n'igice cyose cyo hejuru uzamuye akaboko impande y'imodoka arimo hahagaze abantu benshi.

Ishusho igaragaza uko inzego zigenda zikurikirana uburyo habanza akarere, hagakurikiraho umurenge, hagakurikiraho akagari, hagasoza umudugudu.

Igishushanyo kigaragaza ibiganza bibiri, biri mu ibara ry'umukara, rizengurukijeho umweru, riri ku gitambaro gisa icyatsi kibisi, giteruye izuba risa umuhondo, handitse Umurinzi.

Abagabo batatu, umwe uhagaze mo hagati, imbere ye hari indangururamajwi, ateruye urupapuro rw'umweru, mu ntoki ameze nk'aho asanzwe.

Umuhanda w'umukara uri kugenderwamo na velomoteri, ku nkengero zawo hari inzira y'abanyamaguru, harimo abanyamaguru babiri bari kuyigenderamo.

Umuhanda w'umukara uri kugenderwamo n'ikamyo gifite amabara imbere asa umuhondo inyuma hasa umweru, ndetse n'andi mabara y'umukara amapine asa umukara iruhande rwumuhanda hari inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda w'umukara, mu nkengero zaho hari inzira y'abanyamaguru, muri uwo muhanda hari kugenderamo igikamyo kinini cyane, kiri mu mabara y'umweru, ku gice cy'inyuma hariho amabara y'umuhondo, mu mpande zawo harimo ibara ry'umuhondo, ahahera hari umutuku.

Umuhanda w'umukara mu nkengero hariho akayira k'abanyamaguru ndetse hakurya hakaba ibiti bikikije umuhanda birebire bifite.

Umuhanda w'umukara ushushanyijemo imirongo itandukanye yambukiranya uwo muhanda ndetse n'iwugabanyamo kabiri, iwugabanyamo kabiri igiye icagaguye isa umuhondo, iyambukiranya umuhanda igaragaza aho abagenzi banyura bambuka isa umweru, imbere yaho hari umurongo muremure urombereje w'umweru.

Umuhanda w'umukara uri kugenderwamo n'ipikipiki ndetse n'igikamyo, gifite amarangi y'umweru inyuma ndetse amapine y'umukara.

Umuhanda w'umukara, hakurya hari inzira y'abanyamaguru ndetse inkengero zawo hari ibiti byinshi bikikije umuhanda bifite amasha...

Umuhanda w'umukara, uri kugenderwamo ibinyabiziga, harimo ipikipiki, imodoka, ndetse n'ikinyamipine ibiri ihetse abagenzi, hakurya.

Umuhanda usa umukara, mu mpande zawo hari inzira y'abanyamaguru, mu muhanda harimo ibikamyo bisize amarangi y'umweru

Umuhanda usa umukara iruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamaguru, muri uwo muhanda w'umukara hari kugenderamo igikamyo kinini cyane kandi kirekire kikoreye ikindi.

Umuntu utwaye ipikipiki wambaye ingofero y'umukara y'ubwirinzi, utwaye umugenzi wambaye ipantaro yubururu.

Umuhanda w'umukara urikugenderwamo n'igikamyo gifite amabara y'umweru, inyuma gikikijwe n'amahema ari mu mabara abiri atandukanye irisa icyatsi kibisi n'irisa umweru.

Umuhanda w'umukara iruhande rw'umuhanda haparitse imodoka itwara abagenzi yo mu ibara ry'umweru, harimo n'amabara asa icyatsi kibisi ndetse ku ruhande...

Umuhanda w'umukara urikugenderamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse harimo imodoka n'amapikipiki, ku mpande hakaba hari inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda usa umukara ku nkengero zawo hariho umuhanda w'abanyamaguru, hakurya y'inkengero hari ibyatsi bibisi ndetse hakaba muri uwo muhanda w'umukara hari kugenderwamo imodoka ndende isanzwe itwara abantu benshi ndetse hari kugenderwamo...

Umuhanda w'umukara, uri kwerekana aho abanyamaguru bambukiranya umuhanda, baca hari imirongo y'umweru myinshi agiye yambukiranya umuhanda, muri uwo muha...

Ubusitani burimo ibyatsi bisa icyatsi kibisi, impande yabwo hahagaze imodoka y'umweru itwara abagenzi hirya.

Umuhanda w'umukara ugaragaza aho hahagarara imodoka zitwara abagenzi, hari kugaragaramo imodoka ebyiri ndende zifite amarange asa umweru ndetse n'ubururu.

Umuhanda w'umukara hahagazemo abagabo babiri, umwe wambaye umukara hejuru hasi yambaye umweru ateruye umufuka w'umweru.

Umuhanda wumukara uri kugenderwamo n'igikamyo ndetse n'ipikipiki itwaye umugenzi, hakurya y'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru, ndetse umuhanda ukikijwe...

Umuhanda w'umukara urimo uragenderamo imodoka icanye amatara inyuma isa umweru amapine y'umukara, hakurya y'umuhanda hari ibiti ndetse n'umukingo muremure ukikijweho ibyatsi.

Imodoka ndende itwara abantu, isa ubururu, ku mpande harimo umweru, amadirishya abonerana, iruhande hasa umukara, umugabo uri ku ipikipiki utwaye umugore, abanyamaguru bari kwambuka umuhanda.

Umuhanda w'umukara urimo uragenderwamo, imodoka y'umweru ndetse amapikipiki menshi, ahetse abagenzi, muri ayo mapikipiki bambaye ingofero z'umutuku.

Umuhanda w'umukara ugenderwamo ibumoso ndetse n'iburyo, buri muhanda ugiye urimo ibisate bibiri mu nkengero z'umuhanda, hari umurongo muremure w'umweru urombereza.

Umuhanda w'umukara, uri kugenderamo imodoka nini itwara abagenzi benshi, harimo ipikipiki iri kugenda mu muhanda idafite umugenzi...

Umuhanda w'umukara urimo ibisate byinshi, uruhande rumwe ruri kugenderamo velomoteri, urundi ruri kugenderamo ipikipiki, hakurya y'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru, ndetse mu nkengero hari igiti kirekire, gifite amashami menshi.

Umuhanda ugenderwamo imodoka ndetse n'ipikipiki iruhande rw'umuhanda, aho abanyamaguru bagendera hahagaze umugore witeze igitambaro mu mutwe.

Imodoka zitwara abagenzi ndende zisa umweru zifite ibirahuri bibonerana, zifite amapine y'umukara mu muhanda w'umukara, hakuno y'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru iri kugenderamo abagabo babiri mu byerekezo bitandukanye.

Abagabo babiri ndetse n'uwa gatatu, barimo barazirika imizigo, ku gikamyo gisa umweru kirekire, gitwaye n'indi mizigo y'imbaho.

Ahantu habugenewe kuhahagarara amamodoka, hahagazemo amamodoka y'ubwoko bumwe bwo mu ibara ry'umuhondo mu mbavu ndetse n'ibara ry'umweru n'ibirahure bibonerana.

Umuhanda w'umukara ugenderwamo n'ibinyabiziga, ku nkengero zawo hari inzira y'abanyamaguru, hakurya hari ibiti birebire bifite amashami asa icyatsi kibisi.

Umuhanda w'umukara, iruhande rwawo harimo imirongo itarombereje y'ibicece y'umweru, iruhande hari umuhanda w'abanyamaguru, mu muhanda w'umukara, harimo velomoteri isa ubururu, ahandi hasa umutuku wijimye, handitseho ko ikorerwa mu Rwanda.

Ubusitani bunini cyane burimo ibyatsi bisa icyatsi kibisi bikikijwe n'intebe zo kwicaraho ndetse n'uruzitiro.

Ikibuga gikinirwamo hashushanyijemo umuzenguruko ufite ubuso busa umutuku, buciyemo umurongo w'umweru muremure urangiza ikibuga cyose.

Icyapa cya mpande eshatu, gifite ubuso bw'umweru, kikagira umuzenguruko w'umutuku, kikagira ikirango cy'umukara.

Icyapa cya mpande enye, gifite ubuso busa umuhondo, kikagira umuzenguruko w'umukara harimo ibirango bibiri; ikirango cyo mu ibara ry'umukara n'ikirango cyo mubara ritukura.

Icyapa kiri ku muhanda kigaragaza aho abanyamaguru bambukira hafi y'ikigo cy'amashuri kiri mu ishusho ya mpande eshatu, ku buso bw'umweru, ku muzenguruko usa umutuku, ku kirangantego cy'umukara kigaragaza abantu babiri bafatanye amaboko.

Icyapa cyo kumuhanda gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'umweru, umuzenguruko w'ubururu, ikirango cy'umukara.

Icyapa kiri ku muhanda cyerekana umuvuduko ntarengwa mu ibara ryacyo harimo umutuku n'umweru, handikishijwemo imibare y'umukara yigaragaza.

Icyapa cyo mu muhanda gisa umuhondo, gifite mpande enye, umuzenguruko wacyo usa umukara, ibishushanyijeho bisa umukara, hariho imodoka hakagaragaza n'umusozi muremure.

Icyapa kigaragaza ahadahagararwa n'ibikamyo, gifite ubuso busa umweru, umuzenguruko w'umutuku, ikirango cy'umukara.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpandeshatu, gifite ubuso bw'umweru, umuzenguruko w'umutuku, kiri mu muhanda ufite.

Umuhanda w'umukara urimo uragenderamo ibinyabiziga, hari ibyapa by'urumuri biri muri mpande eshatu hakaba n'icyapa kiranga uburumbuke.

Icyapa cyo ku muhanda kigizwe n'amabara menshi atandukanye ubuso bwacyo busa umweru umuzenguruko ukaba usa umutuku ndetse ikirango cyawo kikaba gifite ibara ry'umukara ndetse n'umutuku kiri mu ishusho ya mpande eshatu.

Icyapa cya mpamde enye, gifite ubuso busa umuhondo, umuzenguruko w'umukara, kikagira ikirango cy'umukara k'ikiziga.

Umuhanda usa umukara uri kugenderwamo n'imodoka, mu nkengero zayo hari umurongo w'umweruru ugiye ucagaguye usa umweru, mu mpande zawo hari inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba n'ibyapa biranga icyerekezo.

Icyapa cy'ishusho ya mpande enye, gifite ubuso busa umuhondo ndetse umuzenguruko w'umukara, gifite ikirango cy'umukara.

Icyapa cya mpande eshatu, gifite ubuso busa umweru, umuzenguruko usa umutuku, ikirango kiri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu, gifite ubuso bw'umweru gifite umuzenguruko usa umutuku, kikagira ikirango gisa umukara.

Icyapa kigaragaza ibice bitandukanye, Akanyaru, Huye, Muhanga, Ruhango, Kinazi kiri ku muhanda mu irangi ry'ubururu ndetse hafi...

Icyapa cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru, umuzenguruko w'umuhondo uhishije, mo hagati harimo ikirango kigizwe n'amabara atatu umutuku, umuhondo n'icyatsi kibisi.

Icyapa kigaragaza ibirometero ku isaha, cy'ikiziga gisa umutuku n'umweru, cyandikishijweho umukara ugaragaza mirongo itandatu.

Icyapa kiri ku muhanda hakuno y'akayira k'abanyamaguru k'ishusho ya mpande eshatu, ubuso busa umweru, umuzenguruko usa umutuku, ikirango cy'umukara.

Icyapa gifite ubuso bw'umweru, gifite umuzenguruko mu mutuku, kikagira ikirango kiri ibara ry'umukara gikoze ishusho ya...

Icyapa cya mpande enye gifite ubuso bw'umuhondo, kikagira umuzenguruko w'umukara, kikagira ikirango cy'umukara kiri hagati.

Umuhanda usa umukara, mu nkengero zaho hari uturongo tw'umweru tugiye ducamo hacamo n'umwanya, mu rusisiro rw'umuhanda aho ugaragaza inguni, ipikipiki itwawe n'umuntu.

Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kiri mu ibara ry'umuhondo, ubuso bwacyo gifite umuzenguruko uri mu ibara ry'umukara, gifite ikirangantego mo hagati gisa umutuku.

Icyapa cyerekana amerekezo y'ahantu agiye atandukanye kiri ku muhanda kiri mu ibara ry'icyatsi, cyandikishijeho amagambo y'umweru Akanyaru, Huye, Muhanga, Ruhango...

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, ubuso busa umweru, umuzenguruko usa umutuku, gifitemo ikirangantego gisa umukara muri...

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu, gifite ubuso bw'umweru, umuzenguruko w'umutuku, ikirango cy'umukara, kigaragaza abantu babiri bafatanye amaboko bari kwambukiranya.

Umuhanda w'umukara impande yaho haparitse imodoka hakaba ku rundi ruhande hari imiti byinshi cyane ndetse hakaba hari icyapa cyo mu muhanda cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru ikirango cy'umukara umuzenguruko w'umutu...

Inzu nyinshi zisize amarangi y'umweru zifite amabati atukura zikikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti birebire, bifite amashami asa icyatsi kibisi.

Umuhanda w'umukara ugaragaza ahagenderwamo iburyo ndetse n'ibumoso, ku nkengero zaho hari umuhanda w'abanyamaguru, muri uwo muhanda w'umukara hari kugenderwamo imodoka ndetse n'amapiki.

Abanyamaguru bambukiranya umuhanda babusanya, abatwara amapikipiki bambaye ingofero z'umuhondo n'abambaye ingofero z'umutuku batwaye abagenzi inzu ndende igerekeranyije kabiri.

Inzu nyinshi ndende zisizwe amarange asa umweru, hanze yazo hari ibyatsi byinshi biri ku busitani bunini kandi zegeranye.

Uruzitiro ruriho utwuma tw'umukara ndetse hariho ibikuta by'ubakishijwe amatafari ahiye asa umutuku wijimye, iruhande hari umunara muremure cyane uriho insinga zisa umukara zigenda mu mpande zose.

Inzu ndende cyane ifite ibice byinshi bitandukanye mu mabara y'umweru ndetse n'ahari amatafari ahishije ya rukarakara iri imbere y'umuhanda aho.

Inzu ndende cyane ifite ibirahuri byinshi bisa ubururu, ifite ibikuta byubakishije amakaro y'umweru hejuru hariho icyapa cyanditseho ngo zigama.

Inzu zubakishijwe itaka zifite amabati y'ibyuma ndetse andi asa umutuku iruhande rwaho hariho ibiti birebire ahandi hakaba hari ikigega kimanukiramo amazi.

Inzu yubakishijwe amatafari, isize amarangi y'umweru, ifite amadirishya y'umukara, iruhande hari umuhanda usa umukara ugabanyijemo ibice bibiri, hari ibiti ku rundi ruhande rw'umuhanda, birebire, bifite amashami.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri utandukanywa n'imirongo miremire icagaguye, hakurya y'umuhanda w'umukara hari inzira y'abanyamaguru, hakurya y'inzira y'abanyamaguru, hari inzu ifite amarangi asa umuhondo imbere yaho haparitse imodoka ebyiri.

Umuhanda usa umukara, hari aho banyura bazengurutse, uri kugenderwamo n'ibinyabiziga harimo imodoka ndetse n'amapikipiki, ku ruhande rw'uwo muhanda hari aho abanyamaguru bagendera hari kugendera umugabo uhetse igikapu cy'umu.

Uruzitiro rwubakishijwe ibyuma binanutse bisa umukara, nimbere harimo inzu y'umweru ifite amadirishya y'umukara n'imiryango y'umukara.

Umuhanda w'abanyamaguru ndetse n'umuhanda w'umukara ugenderwamo n'ibinyabiziga, ugaragaza aho abanyamaguru bambukira, basikana mu muhanda n'ibinyabiziga.

Umuhanda w'umukara urimo ibice byinshi biri kugenderwamo n'imodoka isa umukara mu cyerekezo cy'imbere, mu nkengero zaho hari umurongo urombereje w'umuhondo.

Umuhanda w'umukara ufite ibisate byinshi, ugabanyijemo ibice byinshi bitandukanye hagati harimo ibyatsi, hateyemo n'ibiti birebire bifite amashami.

Umuhanda w'umukara ugaragaza aho abanyamaguru bambukiranya umuhanda baciye kumirongo ishushanyije hagati mu muhanda isa umweru igiye igerekeranyeje.

Umuhanda w'umukara ugaragaza aho abanyamaguru bambukira n'aho bagendera kandi ukikijwe n'ibiti byinshi bikoze ishyamba ndetse n'indabyo zisa icyatsi zikiri hasi.

Umuhanda w'umukara ugenderwamo n'imodoka ugaragaza umwe winjira mu wundi, umuhanda ukikijwe n'ibiti byinshi by'icyatsi bikoze ishyamba, mu muhanda harimo imodoka y'umweru ifite ibirahure by'umukara n'amapine y'umukara.

Umuhanda w'umukara iruhande rwaho hari inzira y'abanyamaguru, ndetse kuri iyo nzira y'abanyamaguru harimo icyapa kigaragaza aho kurindirira imodoka hakurya.

Abanyamaguru bari kwambukiranya umuhanda, ibinyabiziga biri kugendera mu muhanda, harimo imodoka ndetse n'amapikipiki.

Umuhanda w'umukara urimo ibisate byinshi ugaragaza aho abanyamaguru bambukiranya umuhanda baca, ukagaragaza n'inzira y'abanyamaguru mu muhanda harimo ibimenyetso bimurika...

Umuhanda w'umukara ufite ibisate bibiri, mo hagati harimo umurongo ucagaguye w'umweru, ugiye utandukanya ibyo bisate bibiri by'umuhanda.

Umuhanda w'umukara uri kugenderwamo n'amapikipiki abiri imwe igendera iburyo iyindi igendera ibumoso ziri mu byerekezo bibiri bitandukanye.

Umuhanda w'umukaram ukikijwe n'ubusitani burimo ibiti byinshi cyane, bikoze ishyamba, hakurya hari ibyapa.

Umunda w'umukara urimo ibice bibiri, ndetse ku nkengero zaho hari umurongo w'umweruru urombereje; ku kumuhanda hari amatara maremare ari kwaka umuhondo.

Umuhanda w'umukara uri kugenderwamo n'amapikipiki menshi mu byerekezo bitandukanye, ndetse uri kugenderwamo n'imodoka zitandukanye, Izisa umweru, Izisa umukara.

Umuhanda w'umukara iruhande rwaho hari ahantu hari ibyatsi bikeya cyane, hari umuhanda w' umukara uri kugenderwamo ipikipiki itwaye umuntu, ku ruhande rwawo hakaba hari ikinyabiziga.

Mu muhanda w'umukara urimo ibyerekezo byinshi ku nkengero zawo hari umurongo wu'umweru urombereje kandi hakurya hakaba inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda w'umukara urimo uragenderwamo n'amapikipiki, mu nkengero z'umuhanda hariho inzira y'abanyamaguru bahagazemo umunyamaguru w'umugore, hari icyapa.

Inzira nyabagendwa isa kake mu nkengero zayo ikikijwe n'ibyatsi bibisi, muri iyo nzira nyabagendwa iri kugenderamo n'umugenzi w'umugore wambaye umwambaro wo hasi usa umukara.